Umuryango ukorera ku isi yose wita ku bana n'abandi bantu bababaye nko mu nkambi cyangwa mu bihugu bitarageramo iterambere, ukaba ukorera ku isi yose n'ibihugu bitandukanye.

Icyumba rusange cyahuriyemo abantu bavuye ahantu hatandukanye, aho bari gukurikirana ibiganiro bari guhabwa na bamwe mu batoranijwe, kugira ngo babahe ibiganiro byerekeye ubuzima.

Itsinda ry'abantu batandukanye bavuye mu bice by'isi bitandukanye, aho ryari rishoje amahugurwa byerekeranye n'iby'ubuzima aho bari bari gufata ifoto y'urwibutso.

Itsinda rito ry'abagore harimo n'abana, bitabiriye gahunda yo kwiga, aho impuguke yabagendereye iri kubigisha ibintu bitandukanye byerekeye n'ubuzima, ndetse no kwita ku bana babo.

Amazi meza agezwa ku baturage mu byaro bitandukanye n'umuryango wita ku bana n'abagore ariwo wa UNICEF ukorera ku isi yose kandi ukorana bya hafi na UN.

Icyumba rusange cyahuriyemo ababyeyi b'igitsina gore, aho bari kwigishwa ndetse banahugurwa n'impuguke kubyerekeranye n'ubuzima, cyane cyane bwo mu mutwe.

Umugore mu ikanzu y'umweru n'umwana we w'umukobwa mu ikanzu y'umweru, aho bari gukora isuku mu kanwa bifashishije uburoso n'umuti w'amenyo usukura amenyo ndetse n'akanwa, aho ari kumwigisha gusukura amenyo ndetse no gukora isuku yo mu kanwa hose muri rusange.

Abagore n'abana mu cyaro basuwe n'abandi bafite akanyamuneza bose, aho bakora umwuga wo kuboha ibitebo ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Icyumba rusange cyicayemo abana b'abakobwa bambaye imipira y'umweru bicaye no ku ntebe z'umweru aho bari gukurikira amasomo ajyanye n'ubuzima bari guhabwa n'undi mukobwa wambaye ipantaro y'umweru n'ikoti ry'umukara, aho hari n'undi mukobwa wambaye umupira w'umweru uri gufata amafoto n'amashusho y'ibiri kuhabera.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa n'abaganga bafata ibipimo by'abarwayi kugira ngo bamenye uko ubuzima bwabo bumeze, aho ababagana iri koranabuhanga ribafasha kumenya uko bameze ndetse n'ikibazo cy'umubiri baba bafite.

Inyuma y'imyitozo ngororamubiri, kuywa amazi bifasha uwakoze iyo myitozo kutagwa umwuma ndetse no kongera amazi mu mubiri asimbura ayasohotse mu gihe yari ari gukora imyitozo. Aho bifasha kugira ngo umuntu ukore imyitozo agumane ubuzima bwiza ndetse arusheho kugwiza imbaraga.

Umusore wambaye umupira w'umukara uri kunywa amazi, amaze gukora imyitozo ngororamubiri, aho anywa amazi kugira ngo amazi umubiri watakaje uyagaruze.

Ubuvuzi ngororamubiri bwifashisha imbaraga karemano z'umuntu, aho buba bugamije kunanura ingingo z'umubiri no gutuma amaraso atembera neza mu mitsi.

Ibibabi n'indabo y'ibara ry'icyatsi byifashishwa mu gukorwamo imiti itandukanye, ivura abantu bafite ibibazo by'uburwayi butandukanye aho iyi miti isoromwa ikajya gutunganywa neza kugira ngo izagere ku bantu ifite ubuziranenge ndetse n'ibipimo bikwiye.

Imiti ikorwa hifashishijwe ibimera biboneka hafi, igakorerwa kugira ngo ivure abantu indwara z'ubuhumekero, izo mu nda ndetse n'iz'uruhu.